Ikibuga kirimo ibyatsi, muri icyo kibuga hanyuzemo akayira, muri ibyo byatsi kandi muri icyo kibuga harimo abantu barigenderamo hagati, mu byatsi, gikikijwe n'amazu manini, harimo asakaje amabati y'umweru n'ayumutuku.

Igikapu cy'umutuku kirimo amabara y'ubururu, umweru n'umukara, n'umuhondo, iki gikapu gifunze impande zombi, ni igikapu bigaragara ko gikoreshwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke n'amashuri abanza.

Ibishushanyo biri mu mabara atandukanye hari ibiri mabara y'icyatsi, umuhondo, oranje, umutuku, ubururu, ib bishushanyo ni abagabo babiri bari gusunikana, ni ibishushanyo uhereye ku bitoya, ndetse hari n'ibindi byisumbuyeho urabona ko ni abagabo babiri babiri bagiye basunikana.

Ahantu hari igishushanyo kimeze nk'igare, ariko kinini inyuma yacyo hari imyenda iri kugaragara arimo y'icyatsi ndetse n'iyiganjemo ibara ry'umutuku n'ubururu.

Igikuta icyo gikuta giteye irangi ry'umuhondo, gishushanyijeho igitoki, yanditse hejuru igitoki ngo banana, hasi hari izindi mbuto. Inzugi n'amadirishya byiyo nzu bifite irangi ry'umukara.

Icyumba kirimo amabara atandukanye, icyumba kirimo ibitabo, harimo ibishushanyo by'amoko atandukanye, hari ibiri mu amabara y'umutuku, n'icyatsi, ay'ubururu ay'umuhondo, harimo ibishushanyo bimeze nk'imibumbe y'Isi n'ibindi bishushanyo byinshi, biri mu dukombe.

Igishushanyo cy'inzu, iyo nzu isakaje amabati y'umutuku, umuryango wayo uteye irangi ry'ubururu, hagiye hariho utuntu tugaragaza uko byitwa mu cyongereza ku idirishya handitse window, ku rugi handitse dowa, ku rukuta handitse wall hanyuma ku gisenge handitse rufu.

Icyapa kiri mu mabara y'idarapo y'igihugu icyatsi, umuhondo n'ubururu handitseho ngo akarere ka Nyagatare umurenge wa Mukama G.S Gishororo, hariho indangagaciro kuri icyo cyapa hejuru hariho akantu kameze nk'agaseke nako kari mu mabara y'igihugu cy'u Rwanda.

Ahantu munsi y'ibiti, hicaye abanyeshuri b'abakobwa, benshi b'abakobwa, bambaye imipira y'icyatsi, amashati y'umweru n'amajipo ajya gusa n'ikigina.

Abanyeshuri bambaye ashati y'umweru n'amajipo y'icyatsi, bicaye ku ntebe za palasitike z'umweru, bafashe urupapuro bari kurusoma bose bubatse imitwe, bari kureba kuri urwo rupapuro.

Abanyeshuri bambaye hejuru amashati y'umweru, harimo abahagaze harimo abicaye, ni abakobwa n'abahungu bagiye bavangavanze, harimo umuzungu wambaye isaha n'agapira k'umutuku.

Icyumba cy'icyumba giteye irangi ry'icyatsi n'umweru, mu nda hicayemo abantu benshi bambaye amashati y'umweru, uko bigaragara ni abanyeshuri, imbere hahagaze umudamu ufashe mikoro yambaye agakoti k'umukara n'agapira k'ubururu mu nda.

Ahantu hari igishushanyo, inyuma y'igishushanyo hari igikuta, igishushanyo ni icy'umuntu kiri kugaragara cyane umunwa n'izuru, ibindi bice birimo amatwi byarasadutse, umutwe wacyo ntabwo uri kugaragara. Iruhande hari ibindi bishushanyo.

Icyumba kirimo intebe, kirimo n'akameza, akameza kariho umwenda w'igitambaro cy'ubururu hejuru, hejuru yacyo hateretse ibishushanyo bitandukanye, hari igishushanyo cy'ihembe, igishushanyo cy'agakombe, igishushanyo cy'umubumbe w'Afurika ndetse handitseho ijambo a Afurika.

Ibishushanyo bimanitse ku gikuta k'icyatsi, ibyo bishushanyo ubuntu yabibona mu buryo bubiri: uburyo bwa mbere ashobora kubona ari ibishushanyo biranga ahantu, uburyo bwa kabiri ni ubwoko butandukanye bw'amakaro; ibi bishushanyo biragaragara ko byashushanyijwe n'abanyeshuri biga mu bumenyingiro.

Icyumba ibikuta byacyo biteye irangi ry'umweru harimo intebe izo ntebe zicayeho abantu, abantu imbere yabo hateretse amakayi, ndetse hateretse na mudasobwa imbere ya buri muntu wicaye muri icyo cyumba.